Isima y'amakaro cangwa se inyubako zometseho amakaro. Amakaro ni kimwe mu bikoresho byifashishwaga bari gukora finisage y'inzu, cangwa si z'inzu zigiye zitandukanye. Amakaro gazwiho gutuma inyubako isa neza cane ndetse inyerera.

Icyumba cy'ishuri riri ahantu runaka, mu busanzwe icyumba cy'ishuri Kiba cyubatse ku buryo kirambuye, hagomba kujyamo intebe hagati ya makumyabiri n'eshanu na mirongo itatu. Nibura buri ntebe iba iri mu cyumba cy'ishuri iba igomba kwicarwaho n'abana babiri cyangwa batatu. Muri iyi minsi amashuri asigaye yubakwa no mu buryo bugerekeranyije.

Amazamu. Ni ikintu cyubatse mu buryo bw'ibiti bibiri biteye bifite ikindi kigeretseho aho umuzamu ahagarara umuzamu w'ikipe runaka ahagarara arinda ko bakwinjiza igitego cyangwa se batsinda ikipe abereye umugaridiye cyangwa se umurinzi.

Pipitire cangwa intebe z'abanyeshuri zo kwicaraho, zikaba ari intebe zikorwa hifashishijwe ibiti, usibye ko murizi minsi hari n'iziri gukorwa hifashishijwe ibiti ndetse n'ibyuma. Zikaba intebe zishobora kwicarwaho n'abantu babiri cyangwa batatu.

Abanyeshuri bari gushira mungiro ibijanye n'ibyo bize bijanye n'ubuvuzi bw'amatungo ubuvuzi bw'amatungo nabwo ni rimwe mu masomo biga ndetse no mu byiciro byo muri kaminuza rikaba isomo rijyanye no kwiga uburwayi imiterere n'imikurire y'amatungo rikaba ari isomo ryiza.

Umutetsi cyangwa se umushefu akaba ari umuntu ushinzwe gutunganya ibiribwa n'ibinyobwa akoresheje ubumenyi bwe akoresheje n'ibindi bintu aba afite nk'amafu nurundi ruvange rw'ibinyobwa cyangwa se n'ibindi bintu yifashisha kugira akore icyo kiribwa cyangwa icyo kinyobwa akenshi abantu benshi ubu bateka mu maresitora mu mahoteli n'ahandi hagiye hatandukanye.

Ubushakashatsi ku bijanye n'ibihingwa ndetse n'ubutaka, ubusanzwe ubushakashatsi ku bihingwa ndetse n'ubutaka, bukorwa n'abantu cyane cyane bize ibintu bijyananye n'iby'ubuhinzi ndetse n'ubutaka, aba bantu akenshi baba barize amasomo ajyanye n'ibyitwa agoronomi, cyangwa se ibyitwa lande saveye.

Abanyeshuri bari gufatira amafunguro muri refegitwari cyangwa se ahantu inyubako ifatirwamo amafunguro g'abanyeshuri. Abanyeshuri, akenshi barya indyo zigiye zitandukanye by'umwihariko umuceri, kawunga ndetse n'impungure. Hari n'abarya imbuto ndetse n'ibindi biribwa birimo amagi.

Garidiyene cangwa se ishuri ry'inshuke. Iri ni ishuri riba ririmo ibikinisho by'abana, ibikinisho birimo nka za baro, udutenesi ndetse n'intebe n'ameza bitoya, ugereranyije n'andi mashuri kubera ko biba ari ibyo kwicarwaho cangwa se gukoreshwa n'abana batoya. Amashuri ya garidiyene akenshi akunze kuba arimo ibintu by'ibishushanyo, bigaragara cane kurusha ibindi.

Abanyeshuri barimo kwiga ku bintu runaka. Bafata cyangwa se bashira mu ngiro ibyo baba barigishijwe mu magambo. Akenshi aba ni abanyeshuri baba biga amasomo g'Ubutabire, Ubugenge ndetse n'isomo ry'Ibinyabuzima. Aho bafata amwe mu masomo cyangwa se amahame bagafata bakabishyira mu bikorwa bifashishije ibikoresho bitandukanye.

Itsinda ry'abanyeshuri bafite ingingo bari kuganiraho runaka. Mu busanzwe, amatsinda ni bumwe mu buryo bukoreshwa mu mashuri, kugira ngo abanyeshuri bashire hamwe bityo bose bagire ku mva kumwe, bagire kumva ingingo mu buryo bumwe ndetse banafashanye. Amatsinda akenshi gaba gagizwe n'abantu guhera kuri babiri kuzamura, gusa ntabwo garenza abantu icumi.

Abanyeshuri cangwa si abakozi bakora ibijanye no gutegura amafunguro, barimo gutegura amafunguro bifashishije ibirungo bigiye bitandukanye birimo: ibitunguru na karoti, amavuta ndetse n'ibindi n'ibindi.

Itsinda ry'abanyeshuri bigana cyangwa se bafite icyo bahuriyeho, akenshi abanyeshuri bafite icyo bahuriyeho babahuriye ku nifomo cyangwa se ibyo biga urugero; Aabanyeshuri biga ibijanye n'ubukerarugendo ndetse no gukora mu mahoteli baba bafite inifomu zisa n'icyatsi.

Abanyeshuri bari mu kirori cyo kwizihiza gusoza kwabo kw'icyiciro runaka cy'amashuri ibizwi nka garaduwesheni. Ubusanzwe abanyeshuri bizihiza gusoza kw'amashuri makuru azwi nka kaminuza, aha ni ho bakora ikirori cyo kujya mu buzima busanzwe cyangwa se kujya gukora ibyo bize mu mashuri.

Ubudozi ni umwe mu mwuga uteza imbere abawukora. Mu budozi habamo abadoda inkweto zaba izishaje ndetse n'abakora inkweto nsha. Ubudozi bw'inkweto busaba kuba warabwize ndetse ubungubu muri izi minsi ubudozi bw'inkweto busigaye buteye imbere kuko hari n'abakora inkweto nshasha.

Ikiganiro mpaka cyangwa se icyo bita dibeti, ubusanzwe ikiganiro mpaka kiba ari ikiganiro hagati y'amatsinda abiri afite ingingo ari kuvugaho bamwe bakaba bashyigikiye iyo ngingo abandi bakaba bari kuyihakana cyangwa se batayishyigikiye, ibiganiro mpaka ubusanzwe babyita intambara y'amagambo.

Agakiriro k'imbaho cangwa si ahantu hakorerwaga hakanatunganyiriza ibikoresho bikoze mu mbaho. Agakiriro kaba karimo imashini z'ubwoko butandukanye butunganyaga imbaho mu buryo butandukanye. Twavugamo nk'imbaho zibazwagamo za madiriye, amashevuro n'izi n'ibindi mbere yo kuba zabazwamo intebe, ibitanda cyangwa ibindi bikoresho.

Umunyeshuri uri kugaragaza ubwoko bw'ibihangano by'ubugeni. Ubugeni ni bumwe mu bumenyi bwo kumenya， kuvanga amabara runaka, mu gihe urigushushanya cyangwa se kumenya， gukoresha ubwenge bwawe, uhanga ikintu gishya, ukoresheje amabara runaka, ubugeni ni umwe mu murimo ushobora gukiza ba nyirawo.

Umwarimu cangwa umufashamyumvire uri gufasha abanyeshuri bari kwiga ibijanye n'ubukozi bw'amazi, ibyo bita poromberi, imikoreshereze ndetse n'uburyo ki amatiyo akoreshwa cangwa si uburyo amatiyo acomekeranwa bitewe n'ingano yayo, ndetse n'aho agomba kuja kugira ngo bidateza impanuka.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gikorwa c'ubukanishi. Ubukanishi ni kimwe mu mirimo zo gusana cangwag se gukoresha, gukora ibikoresho by'ikoranabuhanga nk'amateleviziyo, amaradiyo, amatelefone cyangwa n'ibindi bikoresho nk'amagare, za moto, nibindi. Hifashishwa ibikoresho birimo amapensi, amasupana, amaturunovisi, za foreze n'ibindi n'ibindi.

Umuseriveri cangwa se umuntu ushinzwe gutanga ibinyobwa n'ibiribwa mu kabari, cyangwa muri resitora cyangwa n'ahandi hantu hakirirwa abantu, abantu baje kunywa kurya ndetse no kwishimisha mu buryo butandukanye. Abaseriveri akenshi baba bafite umukoro cyangwa inshingano zo gufata neza, kumva mu buryo bushobora kuba bwihariye ababagana, ni byiza kwakira ababagana neza.

Itsinda ry'abakozi cyangwa se abatetsi, abo bita abashefu, bari gutegura ubwoko bumwe bw'ibyokurya runaka. Mu busanzwe ubundi kwitwa umutetsi cyangwa umushefu, ni umwuga uba warize, ndetse ukawukorera imenyerezamwuga rizwi nka sta nka sitaje igihe kinini, bityo kugira ngo uwumenye, ushobore kuba inzobere.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri ry'ikigo kimwe c'ahantu runaka, bari gukora ikizamini ca Leta. Ikizamini ca Leta ni ikizamini gikorwa nyuma y'uko umunyeshuri ashoze icyiciro runaka c'amashuri, gishobora kuba ari iciciro ca pirimeri, torokome cangwa si iciciro c'amashuri atandatu yisumbuye.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri bari gusobanurirana babiri babiri mu busanzwe bumwe mu buryo bukoreshwa kugira ngo abanyeshuri bumve isomo ryatanzwe cyangwa se riri kwigishwa n'umwarimu ni ugukoresha ibizwi nk'amatsinda cyangwa se amagurupe aho abanyeshuri runaka guhera kuri babiri bicazanwa ahantu hamwe kugira ngo basobanurane kugira ngo barusheho kumva icyo bari kwigishwa.